Abantu iyo bari mu nama bagomba gukurikiza amategeko n'amabwiriza biri gutangwa mu nama kugira ngo bazabone uko babishyira mu bikorwa, umuntu urangaye mu gihe ari mu nama, ashobora gucikwa bityo mu gihe kiri imbere akazakora amakosa agahanwa.

Abayobozi bafata ibyemezo mu nama ziba zateganyijwe ni ab'ingenzi cyane, bakwiye gushimirwa kandi bakwiye gusengerwa mu buryo bafatamo imyanzuro, igihugu gifite abayobozi batekereza nabi cyatera inyuma, ni yo mpamvu u Rwanda rwashyizeho abayobozi batekereza neza, kugira ngo iterambere rirusheho kwiyongera.

Abayobozi ni ingirakamaro cyane mu gihugu. Abayobozi bafata imyanzuro myiza kandi ibi bishimisha abaturage. Igihugu gifite abayobozi beza, gitera imbere mu buryo bworoshye, batekereza ibintu biteza imbere igihugu cyabo kandi bakunze kubavuganira mu mahanga.

Umuntu iyo ari kwigisha ibintu runaka, urugero: mu gihe ari kwigisha ingingo ijyanye no kwizigama cyangwa se gukangurira abaturage kwizigama, agomba kugira akanyamuneza, agafata abamugana neza kandi akaba ari umuntu wisanzurwaho kugira ngo igitekerezo ageza kubo abwira cyumvikane.

Abantu iyo bari mu nama, bitwaza aho kwandika ibyavugiwe mu nama. Ibi bishatse kuvuga ko bitwaza amakayi, cyangwa se wenda bakaba bafite ubushobozi bwo gufata mu mutwe, ibyavugiwemo byose.

Mu gihe umuntu yagiye mu nama, ashobora gutanga igitekerezo cye. Uburyo bwiza bwo gutanga igitekerezo ni ukugitanga mu kinyabupfura kandi ukazirikana ko abantu uri kumwe na bo, nabo bakwiye kuvuga. Ibi bishatse kuvuga ko tugomba kubahana.

Kwigirira icyizere ni ibintu by'agaciro cyane, ibi bigufasha kuvugira mu ruhame, kumva ukunzwe, kandi bituma udatitira mu gihe uganira n'abandi, umuyobozi agomba kuba ari umuntu wifitiye icyizere, azi gusobanura neza ibintu azi, kandi ashoboye kwigisha.

Mu gihe umuntu yagiye ahantu hahurira abantu benshi agomba kwitonda, agomba kwambara neza imyenda ifite isuku, ihumura neza kandi igaragaza ko ari umuntu wiyubaha, ni byiza gukundana n'abandi mu uri ahantu hahuriye abantu benshi.

Abantu iyo bateraniye hamwe, baraganira kandi baba bishimye. Umuntu uri hagati y'abandi yumva anezerewe kandi akumva akunzwe. Umuntu ashobora kwishimira ko ari hagati y'abantu benshi kandi ibi ni ibintu bisanzwe.

Abantu b'igitsina gore ni abantu bubaha cyane. Aba bantu barangwa no kugira urugwiro kandi akenshi na kenshi baba bazi kwakira abashyitsi. Mu bagore benshi usanga bambaye imyambaro ibaranga, bakunze kugira imyambaro miremire kandi hari n'abagira imyambaro migufiya.

Kigali ni umurwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda, uyu murwa uracye cyane kandi ufite isuku, kugereranya uyu murwa ndetse n'indi mirwa y'ibihugu bikikije igihugu cy'u Rwanda ntabwo bishoboka kubera y'uko uyu murwa ufite isuku yihariye.

Abanyeshuri, abasirikare ndetse n'abandi bakora umwuga umwe akenshi bakunda kwambara imyambaro isa. Ibi ni byo bita impuzankano. Impuzankano ni umwambaro abantu bambara bakora mu rwego rumwe, uyu mwambaro ukabafasha gusa kandi ntihagire umuntu urobanura undi.

Mu gihe umuntu arimo guhabwa amabwiriza y'ibyo akurikiza, agomba kwitonda agatega amatwi kandi akabaza ibibazo mu gihe hari ibyo adasobanukiwe, agomba kwicara mu mwanya yateguriwe kandi akemera amabwiriza agenga aho hantu yicaye.

Iyo abantu bateraniye hamwe baba bagomba kuba bafite ikintu runaka bari buvugeho, ni yo mpamvu umuyobozi w'ikiganiro agomba kuyobora icyo kiganiro, afite ingingo nyamukuru yateguye kubaganiriza kandi akabikora yifitiye icyizere.

Umuntu ufite igikorwa wese ashaka kwamamaza, agomba kwisobanukirwa ndetse agasobanura neza icyo ashaka, hanyuma akaba afite ubushobozi bwo kwemeza abantu no kubakururira gukunda icyo kintu agiye kwamamaza. Ibi bituma ibintu agiye kuvuga byemerwa.

Abantu iyo bitabiriyeseka rusange baba bambaye mu buryo butandukanye, bamwe baba bambaye ingofero abandi ntazo bambaye, kandi bose ubu usanga bishimye, aba bantu bakunda kugaragara bafite akanyamuneza.

Abayobozi iyo bagiye mu nama bagiye kwiga ku kibazo runaka, baba bafite umuyobozi uri buyobore inama, atanga umwanzuro w'ibyavugiwe mu nama kandi abasaba gushyigikira imyanzuro y'ibitekerezo byatanzwe, umuyobozi agomba kuba ari umuntu ushyira mu gaciro kandi utekereza neza.

Kwiteza imbere ni ukuva ku cyiciro kimwe cy'ubudehe ujya ku kindi. Umuntu witeje imbere, hari ibintu aba yaragezeho. Yaguze amatungo, aroroye, afite imirima myinshi kandi urebye arya neza.

Abantu iyo bari ahantu hamwe baba bafite ubushobozi bwo kuganira, bakaganira ku ngingo zitandukanye, bagamije gukemura ikibazo runaka. Ibi ni byiza kandi ni na byo bibatandukanya n'inyamaswa, kuko inyamaswa zo zidafite ubushobozi bwo kuganira.

Abantu iyo bagiye kwifotoza, bifata mu buryo butandukanye. Hari abifata mu mifuka, hari abifata mu mashati, biterwa n'uburyo umuntu yumva yifashe neza, gusa abakobwa bakunze kwifata ahantu hamwe kandi ibi ni rusange.

Umuntu ugiye guhabwa akazi runaka, agomba gusuzumwa mbere yuko ahabwa ako kazi. Umuntu ugiye guhabwa akazi, asuzumwa n'abantu bagiye kumuha akazi, bakareba ko azagashobora ndetse n'ubushobozi afite bwo kuba yasobanura ibintu agiye gukora.

Ahantu hakorerwa inama, haba hatandukanye bitewe n'umuntu uri bukoreshe iyo nama, inama ishobora gukoreshwa n'umuntu ukomeye, umuntu woroheje cyangwa se umuntu uri mu rwego rumwe n'abo akoresha inama. Ishobora gukoreshwa n'umugabo kandi inama ishobora kuyoborwa n'umugore.

Inama zihuza abantu bafite amafaranga ziba zitangaje. Buri wese aba afite mudasobwa ye kandi abenshi ntibajyana amakaye yo kwandikamo, kubera ko baba bafite ibyuma by'ikoranabuhanga bashobora kwifashisha bibuka ibyo bize.

Umuntu wifitiye icyizere, aba afite ubushobozi bwo kuvugira mu ruhame, muri urwo rwego umuntu wese ushaka kuvugira mu ruhame, agomba kugira icyizere kandi akumva ko ari ibintu bye ashoboye. Umuntu ushaka kuba umuyobozi, agomba kwigirira icyizere.

Igihe umuntu agiye mu nama, ni ukuvuga ahantu hahurirwa n'abantu benshi bafite ikintu bari kuganiraho, agomba kwitwaza ikayi, telefoni ndetse n'amazi yo kunywa. Ibi bizamufasha gukurikirana neza kandi atahane n'inyigisho z'ingirakamaro.

Abanyeshuri biga mu buryo butandukanye, mwarimu ashobora kujya imbere akabaha amabwiriza bagenderaho, akabaha imyitozo ndetse akanabakosora, abasobanurira ibintu byose batumva ndetse byaba na ngombwa bakamubaza ibibazo bijyanye n'amasomo biga.

Inama ni ihuriro rihuza abantu benshi baganira kandi bafite ingingo baganiraho, inama ihuza abantu benshi kandi iba ifite umuyobozi, uyu aba ari umuntu wigirira icyizere ushoboye kuvugira mu ruhame kandi azi kuganira.

Kwitegereza neza ni igikorwa gisaba ubushishozi, umuntu witegereza neza abona ibintu byinshi kandi iyo asubiza umuntu umubajije amusubiza neza. Kwitegereza neza ni igikorwa kigaragaza ko umuntu afite ubwenge kandi asobanutse.

Amazi ni ingenzi cyane, amazi ni ubuzima, igice kinini cy'umuntu kigizwe n'amazi, amazi ashobora kunyobwa n'abantu batandukanye urugero abanyamakuru, abayobozi ndetse n'abanyeshuri.

Kuvugira mu ruhame biragora ariko nanone iyo umuntu yitoje neza arabikora, kuvugira mu ruhame bisaba kuba ufite ubuhanga kandi uvuga ibintu byumvikana. Ni ngombwa kugira ubushishozi bitewe n'abantu ubwira, kuko kuvugira mu ruhame bishobora gutuma useba.

Umuntu wize aba atandukanye cyane n'umuntu utarize, umuntu wize aba afite ubushobozi bwo kwandika, gusoma ndetse no gusesengura ibintu agatekereza neza kurusha umuntu utarize, abanyeshuri biga mu mashuri atandukanye, hari abiga mu mashuri yisumbuye ndetse hari n'abiga mu mashuri ya za kaminuza.

Abantu iyo bateraniye hamwe ari benshi bakenera ibintu bibafasha kumvikana, bimwe muri byo ni ibikoresho by'ikoranabuhanga bibafasha mu guhanahana amakuru, urugero nk'indangururamajwi.

Ikoranabuhanga ni ingenzi kandi mu gihugu cy'u Rwanda rirakataje mu gukoreshwa, ikoranabuhanga rishobora gukoreshwa ahantu hatandukanye urugero: abantu bari mu nama bashobora kuryifashisha bafata amafoto, na none kandi abanyamakuru bararyifashisha kuko iyo bari gukorera kuri radiyo ibiganiro baba bakeneye gukoresha ikoranabuhanga.

Abantu iyo bashaka gutera imbere baraganira, bashobora kuganirira ahantu hatandukanye, ariko cyane cyane bakunda kuganirira ahantu hanini ku buryo hari ubwisanzure, ni yo mpamvu hitwa icyumba cy'inama. Abantu bashobora kuganira bagafata udukayi bakandika ibyo bari buganireho, kandi bakaba bafite n'amazi yo kunywa mu gihe bagize inyota.

Abantu bari mu nama bashobora kwicara mu buryo butandukanye, bashobora kwicara mu buryo bw'ikiziga, cyangwa se bakicara umuyobozi akabajya imbere. Abantu bari mu nama bakunze kuba bafite amazi yo kunywa kandi ibi bibafasha gushira inyota.

Rwanda Reveni Otoriti ni ikigo gishinzwe Imisoro n'Amahoro. Iyo misoro iva ahantu hatandukanye cyane cyane mu bucuruzi. Imisoro ishobora gukoreshwa mu bikorwa by'iterambere birimo kubaka imihanda ndetse n'inzu z'abatishoboye.

Umugabo n'umugore iyo bahuriye mu kazi bakora akazi kabo neza. Umugabo utekereza neza afata neza umugore we kandi umugore utekereza neza yubaha umugabo we. Umugabo agomba gufata imyanzuro y'urugo kandi bigirira umumaro urugo rwabo.

Mu gihe abantu bashaka kwiga ku kibazo runaka cyangwa se bashaka kuganira, bagomba kugira umuntu uyobora ikiganiro cyabo, ibi bituma birinda akavuyo kandi bakumvikana bitagoranye, ibi ni byiza kuko bifasha abantu muri rusange kungurana ibitekerezo.

Abantu baratandukanye bitewe n'imico bakomokamo. Hari abantu bakunda kumviriza, hari n'abantu batumva. Abantu benshi bakunda kwambara neza ariko abantu bambara bitewe n'imico yabo. Umuntu ukunda amazi, akunda kugaragara neza kandi akenshi aba afite ibitekerezo byubaka.

Amahugurwa ni inyigisho abantu bahabwa izi nyigisho bazihabwa n'abantu babifitiye ubumenyi bakabahugura ku bintu bitandukanye, bashobora kubahugura ku buryo bwo gukora ubuhinzi mu buryo bwemewe kandi bufite inyungu mu gihe gitoya.

Abayobozi benshi bakunze kuba bafite amazi imbere yabo, ibi babikora kugira ngo inyota nibica basomeho hanyuma bakomeze kuganira cyangwa se kugeza ibyemezo ku bantu babakurikiye. Umuyobozi mwiza agomba kubaha abamuteze amatwi.

Mu gihe umuntu agiye gutangira umushinga runaka, agomba kubanza gusobanurirwa ko agomba no gutanga umusoro, umuntu ugiye gutanga umusoro agomba kuba abisobanukiwe azi amafaranga agiye gutanga icyo azamara kandi azi amafaranga agiye gutanga uko ayatangamo.

Irembo ni urubuga rufasha abantu kubona serivisi z'ikoranabuhanga zitandukanye, ubu ibintu byaroroshye, aho umuntu ushaka icyangombwa atakiri ngombwa ko ategereza ku murongo, ahubwo ashobora kugisabira ku ikoranabuhanga.

Inzu zigomba gukenerwa n'abantu bose: abakire, abakene ndetse n'abandi, kuko ari ubwugamo umuntu ashobora kwihishamo izuba ndetse n'imvura. Ibi bishatse kuvuga ko umuntu yaba afite amafaranga cyangwa atayafite uko byagenda kose akenera ahantu ho kuba.

Telefoni na mudasobwa ni ibikoresho bikoreshwa n'abantu, ibi bikoresho bikaba bikoranye ubuhanga, ku buryo bifasha abantu kuganira, kungurana ibitekerezo ndetse no gusabana, bikabafasha no gukora ubushakashatsi.

Iyi nzu, ni inyubako nziza abantu babamo, inzu abantu babamo itandukanye n'inzu inyamaswa zibamo kuko inzu inyamaswa zibamo urugero nk'inka yitwa ikiraro, ubwo rero ni ngombwa ko inzu abantu babamo igirirwa isuku.

Irembo ni urubuga rufasha abantu mu kwaka serivisi zitandukanye. Urugero, umuntu ushaka gutwara imodoka cyangwa se ushaka uruhushya rwo gutwara moto, cyangwa ikindi kinyabiziga, ashobora kwiyandikisha anyuze ku Irembo, agasaba uburenganzira bwo kuba yakora ikizamini.

Mu Rwanda umujyi wa Huye witwa Kigali, uyu mujyi urimo inyubako zitangaje kandi ziyubashye, umuntu wese ushaka gutembera agomba kujya mu mujyi wa Kigali akareba ibyiza bitatse igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ukuntu gifite isuku.

Irembo ni urubuga rutanga serivisi zinyuranye, zimwe muri izo serivisi ni ugushaka ibyemezo bitandukanye, impushya zitandukanye kandi ibi bikorwa mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ibi harimo ibyemezo by'amavuko ndetse n'ibindi byemezo umuntu akenera mu buzima.

Leta cyangwa se abayobozi b'Igihugu bakora uko bashoboye kose kugira ngo abaturage babone ubushobozi bwo kuba bagera ku ikoranabuhanga mu buryo bworoshye. Ibi bituma ubujiji mu Gihugu bugabanuka.

Leta cyangwa se ubuyobozi bw'igihugu, bushiraho gahunda zitandukanye zigamije gufasha abaturage b'igihugu kubaho neza. Zimwe muri izo gahunda ni ugukingira abaturage indwara zitandukanye, urugero nka sida ndetse na malariya.

Imisoro ni ingenzi cyane mu gihugu kubera ko ifasha mu gukora ibikorwa bitandukanye. Imisoro ituma habaho amashuri abakene bakabona ibyo kurya ndetse n'amavuriro ibitaro bidahari abaturage barwara ku bwinshi kandi nta handi bishobora kuva uretse mu misoro.

Ibirango by'igihugu bigomba kuba byubashywe, kuko aribyo bigaragaza agaciro igihugu gifite. Ibi bituma abantu bose bagomba kubaha ibirango by'igihugu, kandi ikigero umuntu wese yaba arimo agomba kubyubaha.

Ikoranabuhanga ryoroheje akazi, ubu kujya gusaba serivisi ahantu ntibikiri ngombwa ko utunda umurongo, ushobora kwicara mu rugo iwawe ukandikira umuyobozi runaka ukamubwira ikibazo ufite, hanyuma nawe akagikemurira ku ikoranabuhanga.

Hari uburyo butandukanye umuntu ashobora kwifashisha akora igikorwa cy'ubucuruzi, bumwe muri ubwo buryo ni ugukorera ubucuruzi ku ikoranabuhanga, ibi bisaba umuntu ujijutse kandi ushoboye gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Ibihingwa bihingwa mu gice cy'igiturage, ni ibihingwa bifite akamaro cyane, bituma abaturage babona ibyo kurya kandi bagasagurira n'amasoko, bituma umuntu wese ufite inzara abona icyo kurya kuko mujyi ibintu biba bihenze.

Igihugu gishaka gutera imbere, kigomba kugira gahunda. Ibi bituma abayobozi bagirana inama hagati yabo, bagamije kungurana ibitekerezo kugira ngo igihugu cyabo gitere imbere, abaturage babeho neza, mu mahoro kandi bafite umutekano.

Umunsi mpuzamahanga w'umurimo, ahazaza h'umurimo intego dusangiye, umurimo ni igikorwa umuntu akora akinjiza amafaranga, ibyo kurya kandi agatunga abe, niba ushaka kuba umukire ugomba gukunda umurimo.

Amashanyarazi ni ingirakamaro mu iterambere ry'igihugu. Umuntu iyo ashaka gutera imbere, yifashisha amashanyarazi agakora ibintu bitandukanye. Leta cyangwa se ubuyobozi bugomba gushyiraho gahunda yo kugeza amashanyarazi ahantu hatandukanye mu gihugu kugira ngo iterambere ry'igihugu ryiyongere.

Umuntu ufite ubushobozi bwo gusoma, aba afite ubushobozi bwo gusobanukirwa ibintu byose abonye byanditse ku rupapuro. Ibi ashobora kubisobanurira umuntu utari uhari mu gihe ibyo bintu byandikwaga. Umuntu ashobora kubisoma yicaye cyangwa se ahagaze.

Kugira ngo ikoranabuhanga rishoboke abantu bahamagarane kuri telefoni, ni ngombwa ko hubakwa iminara mu gihugu. Iminara ituma abantu bashobora kuvugana mu gihe bakoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga.

Mu rwego rwo kurwanya ubunebwe, abantu benshi bagomba gushaka icyo bakora, ni yo mpamvu mu mijyi imwe n'imwe abantu bashinga ibikorwa by'ubucuruzi bishingiye ku ikoranabuhanga, kugira ngo bahe abantu benshi akazi.

Amashanyarazi ni ingenzi cyane mu bikorwa bya buri munsi. Bimwe mu bikoresho bikoreshwa n'amashanyarazi harimo, radiyo, televiziyo, telefoni, ndetse n'ibindi bikoresho byihariye mu guteka.

Ibimera ni ibyo kurya by'abantu ndetse n'amatungo, bimwe mu bimera biribwa n'abantu, harimo imbuto ndetse n'izindi mboga rwatsi runaka, ndetse hari n'ibimera biribwa n'inyamaswa, urugero nk'ihene ndetse n'intama.

Amashanyarazi ni ingenzi cyane mu buzima bwa buri munsi, hatari amashanyarazi ibintu byinshi byakwangirika, amashanyarazi atuma tubona urumuri, kubera yuko amatara, akunda gukoreshwa bitewe n'amashanyarazi.

Ubusitani ni ingenzi cyane kuko ahantu buri hagaragara neza, ubusitani bushobora gufasha abantu kuruhuka, bakisanzura, bakaganira kandi ni ibintu bisanzwe kuko mu buzima ibi birakenerwa cyane.

Igare rishobora gutwara ibintu bitandukanye. Umuntu ashobora gutwararaho amazi ndetse n'ibindi bikoresho. Igare ritandukanye na moto kubera yuko moto yo igira moteri iyifasha kuzamuka ahantu hari imisozi mu buryo bworoshye.

Amashanyarazi ni ingenzi cyane, gusa kugira ngo akwirakwizwe mu baturage hari ibikenerwa, bimwe muri byo ni amapiloni yo gutwara ayo mashanyarazi ndetse n'insinga ayo mashanyarazi agendamo.

Buri nzu yose iba ifite umuntu wayubatse, ntushobora kubona inzu ngo uvuge ko yapfuye kubaho gutyo gusa nta mwubatsi ifite. Inzu nziza ziba zarubatswe n'abantu b'abahanga, n'iyo mpamvu mu gihe ugiye kubakisha inzu ugomba gushaka umuntu w'umuhanga, wabyize kandi ubishoboye.

Ishyamba ribamo ibiti bitangaje, ibiti bikoreshwa cyane cyane mu kubaka ibiraro, mu kubaka amashuri, mu kubaka inzu zitandukanye, ibiti ni ingirakamaro kandi umuntu uri mu ishyamba abona akayaga gahagije, ni byiza ko amashyamba abungwabungwa.

Ibimera birimo amoko menshi, ibiti, indabo, ibyatsi, ndetse n'ibiti byera imbuto, byose biri mu bwoko bw'ibimera, ibimera bikenera imvura kugirango bikure neza.

Ibinyabiziga birangije kuba byinshi cyane, ku buryo mu minsi izaza bishobora kuzikuba kabiri ndetse na gatatu, ibi bishobora kuzatuma ubuzima buhenda kuko kugenda mu binyabiziga bizaba byoroshye.

Iyo witegereje neza hejuru mu kirere hari ikintu ubona, ubona ibicu, ibicu bishobora kugaragara mu mabara atandukanye, hariho ibicu by'umweru ndetse n'ibicu bigaragara nk'aho bisa nk'aho ari ubururu, ibicu bishobora kuba umukara mugihe bigiye kubyara imvura.

Ibimera ni ingirakamaro cyane. Isi iramutse idafite ibimera, ubuzima ku isi ntibwashoboka. Ibimera birimo amoko menshi. Bimwe muri byo ni ibiribwa by'abantu n'amatungo. Ibimera birakunzwe cyane.

Ibiti ni ingirakamaro cyane. Ibiti bishobora gukoreshwa nk'indabo kandi ibiti byinshi bishobora gutanga imbuto, abantu bakarya bagahaga. Ibiti byitwa imikindo, bikunze kuboneka cyane cyane mu mijyi kandi bigura amafaranga menshi.

Leta y'igihugu ikora ibishoboka byose kugira ngo umuturage abeho neza. Imwubakira imihanda, ikamwubakira amashuri ndetse igashira n'amashanyarazi mu gihugu kugira ngo umuturage abashe kubaho neza kandi yishimiye. Kubaho mu gihugu gifite umuyobozi mwiza ni ibintu byiza cyane.

Amashanyarazi ni ingenzi cyane. amashanyarazi agaragaza ko igihugu gifite iterambere. Igihugu kidafite amashanyarazi, kigaragara nk'icyasigaye inyuma mu iterambere. Amashanyarazi akoreshwa cyane cyane mu gice gituwemo n'abaturage benshi.

U Rwanda rurakataje cyane mu iterambere, ubu ahantu henshi hageze amashanyarazi ndetse abantu benshi batangiye kuyabyaza umusaruro, bamwe bakoresha amashanyarazi cyangwa se umuriro kugira ngo bakore ibikorwa bitandukanye bibyara inyungu.

Amashanyarazi ni ingenzi cyane mu buzima bwa buri muntu uwo ari we wese, amashanyarazi afite akamaro cyane kuko ashobora gukoreshwa mu bikorwa bitandukanye. Amashanyarazi kugira ngo abeho, hakenerwa insinga ziyafasha mu kuyatwara, kuva ahantu hamwe ajya ahandi.

Ibiti ahantu biri bigaragara neza. Bigaragaza ko aho hantu hagwa imvura kandi hari umwuka mwiza, abantu badafite ibiti bashobora kubaho nabi kandi imvura kubageraho bikagorana, kubera ko abahanga bagaragaza ko ibiti bikurura imvura.

Amashanyarazi ni ingirakamaro mu buzima bwacu, adufasha mu gukora ibintu byinshi, adufasha mu gushyira umuriro muri telefoni zacu, gusa amashanyarazi ashobora kwangiza iyo adakoreshejwe neza, ashobora kugutwika.

Mu rwego rwo kubungabunga umutekano w'abantu n'ibintu byabo hari abantu bahitamo gushaka abarinzi cyangwa abasekirite kugira ngo babarindire ibintu byabo by'agaciro bimwe muri ibyo bintu harimo amaduka yabo inzu zabo imodoka zabo ndetse n'ibindi bintu babona bishobora kwangizwa n'abagizi ba nabi.

Abahanga bagaragaza ko isuku ari isoko y'ubuzima, ni yo mpamvu mu rwego rwo kongera isuku tugomba kubaka ahantu heza, tugakora amasuku ku nzu dutuyemo kandi tukagerageza kubahisha ahantu dutuye kugira ngo tugaragare nk'abantu basobanutse.

Hari imodoka zigira uruhare mu gutwara abarwayi, izi modoka zigira umuvuduko uri hejuru kandi zishobora kugenda ahantu hagerwa bigoranye, ibi bishatse kuvuga ko umuntu wese ushaka kugura iyi modoka, agomba kuba afite ubushobozi bwo gutwara imodoka n'amafaranga menshi.

Ubusitani iyo umuntu abutekereje, atekereza ko ari ikintu gihenze, gusa ntabwo ari ibintu bihenze, hari ubusitani bworoheje, umuntu ashobora gukoresha amafaranga make, agashyiramo indabo zoroheje kandi ibi bituma na bwo hagaragarara neza.

Akayira gatwikiriye ni ingenzi cyane, aka kayira gakoreshwa cyane cyane mu gihe cy'imvura, gatuma ukanyuramo atanyagirwa kandi akenshi gashobora gufasha abanyeshuri, abarimu, mu gihe bagiye kwiga kugira ngo amakaye yabo adatanyuka.

Mu gihe umuntu agiye ahantu agomba kuzirikana ahantu agiye, akareba niba agiye kugenda n'imodoka, akareba ko ahantu agiye azabona aho kubika imodoka ye, mu gihe agiye ku bitaro agomba kwirinda kuvuza ihoni imbere y'ibitaro.

Mu Rwanda hari ibitaro bitandukanye. Amwe mu mazina y'ibitaro ni nka Nyarugenge, Nemba ndetse na Karambo. Mu bitaro hakorerwa imirimo itandukanye kandi imyinshi muri yo iba igamije guteza imbere ubuzima bw'abantu.

Bimwe mu bikorwa bya leta, harimo inyubako zihenze. Izi modoka zikorerwamo abayobozi batandukanye ku nyungu z'igihugu. Ibi bibafasha gukora akazi kabo neza kandi bigatuma igihugu gitera imbere.

Inzu ifite isuku, igomba kuba iri ahantu heza kandi iteye amarangi. Inzu tuzi ko ubusanzwe igira; urugi, amadirishya, ndetse n'amabati. Inzu abantu bayibamo ifite isuku baba bishimye.

Hari inzu nziza, ziba zubatse mu buryo butandukanye. Kuzireba biba binogeye amaso. Inzu ni inyubako iba itangaje yubatswe n'umuntu w'umuhanga, abantu babamo. Iyi nyubako irinda abantu kunyagirwa.

Ahantu hatagera umuhanda, hagerwa bigoranye. Ni yo mpamvu igihugu kigomba gukora uko gishoboye kose, kikageza imihanda ahantu hatandukanye. Ibiti, amashanyarazi, inzu, amashuri bigomba kubaho mu gihugu kugira ngo gikomeze gutera imbere.

Inkongi y'umuriro iyo ibaye iza itateganyijwe. Kandi akenshi ishobora guhitana abantu ndetse igahitana n'ibintu byabo. Ibi bituma habaho igabanuka ry'ubukungu mu gihugu. Ni muri urwo rwego Leta ishyiraho gahunda yo kuzimya iyo nkongi y'umuriro, ikoresheje igikoresho cyitwa kizimyamoto.

Umucuruzi ugiranye ikibazo na mugenzi we si ngombwa kwihorera, akwiye kwegera umucamanza akamugezaho ikibazo cye, umucamanza na we agakemura icyo kibazo akurikije amategeko agenga ubucuruzi.

Umuntu agira ibice by'umubiri bitandukanye; amaso, umunwa, amazuru, amatwi ndetse n'umuhogo. Hari ibice byinshi bigize umuntu, kandi ibyo bice biruzuzanya.

Imfungwa ni abantu baba barakoze amakosa bagashyirwa ahantu hamwe kugira ngo bigishwe kugira ikinyabupfura kandi bahanirwa ibintu bakoze, umuntu wafunzwe hari uburenganzira bumwe na bumwe yakwa nk'umuntu ufite umudendezo, ibi bituma adashobora gukomeza kwigenga.

Gusuhuzanya bikorwa n'abantu b'inshuti, abantu bangana bahitanaho badasukanyije. Mu rwego rwo kubungabunga amahoro, umuntu agomba gusuhuza undi. Mu muco Nyarwanda umuntu mukuru, asuhuza umuntu muto.

Mu rwego rwo kwirinda indwara, umuntu agomba gupfuka umunwa we mu gihe ari hantu akeka ko hashobora kuba hari indwara zandura. Ibi bishatse kuvuga ko mu gihe hari icyorezo umuntu agomba gupfuka munwa we, kugira ngo atandura.

Ikirango kiranga igihugu kiba kigomba kubahwa cyane, abantu benshi bakunda kubaha ibirango by'igihugu kubera ko umuntu aramutse atubashye ibirango by'igihugu ashobora guhanwa, ashobora guhanishwa ibihano bitandukanye harimo n'urupfu.

Umuntu atandukanye n'inyamaswa, umuntu niwe ufite ubushobozi bwo gutekereza ndetse no gufata imyanzuro ku kintu abonye, umuntu arashishoza mbere y'uko akora ikintu, ibi bigaragaza yuko afite ubushobozi buhambaye umugereranyije n'inyamaswa.

Gufata umwanya ukavugira mu ruhame ni ibintu bigoye cyane gusa bisaba ubuhanga kandi bisaba kwitoza cyane kugira ngo bishoboke. Umuntu udafite ubwoba, utagira umususu, niwe ushobora kuvugira mu ruhame kandi ibi bishobora kumugirira akamaro.

Inama zibera mu midugudu ziba zitangaje. Umuntu ashobora kwicara mu byatsi mu gihe nta ntebe ihari kandi umuyobozi nawe ashobora kwicara hasi. Ibi biratangaje kuko ubusanzwe umuyobozi akunda imyanya y'icyubahiro ariko mu cyaro si uko bimeze.

Abantu bakora ibyaha mu gihugu, bashyirwa ahantu hamwe nk'abantu bahanwe, ibi bituma aba bantu bumva bafite ipfunwe kandi bakiyemeza kutazongera gukora ibyaha bakoze, ahantu bashyirwa hatuma bumva baguwe neza nubwo baba barakoze ibyaha, bakumva bishimiye igihano bahawe.

Umuntu aratangaje cyane afite ubushobozi bwo kumva, kureba, kuvuga, ndetse no kwihumuriza umuntu agira ibice by'umubiri we bitangaje amaboko ye ashobora gufata ikintu kandi akagikomeza.

Ahantu habikwa ibitabo hitwa isomero, ibi bishatse kuvuga ko umuntu wese ushaka gusoma ibitabo by'ubwoko butandukanye, ashobora kujya mu isomero agakuramo igitabo cy'ubwoko ashaka, akagisoma kandi agakuramo ibitekerezo bimwubaka.

Abantu iyo bicaye hamwe barangwa no kuganira. Ibi biganiro bigomba kuba byubaka kandi bishimishije ku bantu bose. Umuntu iyo aganiriye nabi bishobora gutuma habaho intonganya kandi ibi si ibintu byiza mu muco w'abantu.

Icyaro ni imbusane yo mu mujyi. Ahantu h'icyaro akenshi harangwa no kuba abaturage ari bake ugereranyije no mu mujyi. Mu cyaro hakunda guhingwa ibihingwa bitandukanye kandi abantu benshi baba batunzwe n'ubuhinzi.

Zimwe muri gahunda za Leta ziba zifite ishingiro kuko ziba zanditse. Amwe mu mategeko agaragara mu gitabo cy'amategeko ya Leta. Ibi bishatse kuvuga ko umuntu wese ukosheje atagomba kwitwaza kutamenya kubera ko hari amategeko asobanurirwa abaturage ari mu ngingo runaka.

Imodoka ni ingenzi cyane mu buzima bwa buri muntu wese. Umuntu ushaka kugenda urugendo rurerure, agomba gutega imodoka cyangwa se kugenda n'imodoka ye, ikamufasha kugera aho ahantu agiye. Ikirenze kuri ibyo n'ibisambo bigenda mu modoka.

Bamwe mu bantu bashinzwe umutekano harimo abapolisi mu Rwanda abapolisi bambara imyambaro y'umukara ndetse iriho n'ikirango cy'igihugu ku rutugu rwabo abapolisi bafata abanyabyaha bakabafunga bakabahana ndetse bakabigisha ikinyabupfura.

Ibyapa birimo amoko menshi ndetse hari n'ibyapa bishyirwa ahantu hatandukanye bitewe n'akamaro kabyo. Ibyapa bishobora kuyobora umuntu. Urugero hari nk'icyapa kirangira umuntu ahantu agomba gufungirwa.

Mu gihe cy'imvura inzu nyinshi z'abantu bakomeye zigomba gushyirwaho imirindankuba, kugira ngo inkuba niza igakubita, inkuba itagira ikintu itwara abantu. Ibi bikunze gukoreshwa cyane cyane mu mijyi, kuko imirindankuba irahenda.

Iyi nkongi y'umuriro ibaye hakenerwa abantu bo kuzimya gusa kugira ngo iki gikorwa kibe mu buryo bworoshye hateganyijwe igikoresho gifasha mu kuzimya. Iki gikoresho ukerekeza ahantu inkongi y'umuriro iri kubera hanyuma kigasohora ibintu bimeze nk'ifu ibyo bintu bigatuma inkongi y'umuriro ibasha kuzima.

Umupolisi ni umuntu ushinzwe umutekano ugenzurako amategeko y'igihugu yubahirizwa, uyu akoresha ububasha bwe agacunga abantu ndetse n'ibintu byabo akabirinda kwangirika, umuntu ukoze amakosa ashobora guhanwa mu gihe amategeko abyemera.

Mu gihe habaye inkongi y'umuriro w'amashanyarazi abantu bagomba kwihutira kuzimya uwo umuriro. Ibi ikintu gishobora kubigufashamo ni ugukoresha agacupa kaba kaziritse hafi y'ahantu habereye inkongi y'umuriro, ukakerekezaho hanyuma ukatuma ibintu bimeze nk'imyotsi bituruka muri ako gacupa bigenda bikazimya uwo muriro.

Ibara ry'umutuku ni ibara rishobora kugaragara mu maso y'abantu ku buryo butandukanye, gusa icyo bahurizaho bose ni uko rishobora kuba ryica amaso ku muntu uyarwaye kurebamo bishobora kumugora.

Mu gihe ushaka gusoma igitabo ugomba gushaka ahantu hatuje, ahantu hari akayaga kandi uhumeka neza, ibi bizagufasha kumva neza ibyo usoma kandi ubisobanukirwe. Mu gihe uri ahantu hari urusaku bizakugora kuko iyo usoma kandi usakurizwa bishobora gutuma mu mutwe udatekereza neza.

Mu gihugu cy'u Rwanda umuyobozi iyo agiye ku butegetsi, agomba guhagarara imbere y'abaturage cyangwa se imbere y'abayobozi bagenzi be, akarahira akabwira abaturage icyo azabagezaho. Akababwira imigabo n'imigambi ye, kandi bakumva banyuzwe.

Abantu biyubashye, akenshi iyo ari abagabo bakunda kwambara amakote, abagore bakunda kwambara ibitenge kandi birababera. Mu muco nyarwanda, ikote rigaragaza umuntu ufite icyubahiro cyinshi.

Umuntu aba agizwe n'ibice bitandukanye, amaso, umunwa, amazuru ndetse n'ibindi, umuntu agomba kuba afite imico itandukanye n'iy'undi kandi abantu baba batandukanye ku isura, ibi bivuze ko umuntu adasa n'undi.

Inama ni ihuriro rihuza abantu batandukanye, ishobora kuba hagati y'abanyeshuri, ishobora kuba hagati y'umwarimu n'umuyobozi we, ishobora kuba hagati ya perezida w'Igihugu ndetse n'abo ayobora, kandi inama ishobora guhuza impande ebyiri z'ibihugu bitandukanye.

Umuyobozi mwiza agomba kuba yifitiye icyizere ashoboye kwigisha, azi kuvugira neza mu ruhame kandi adatinya abantu, ibi bibafasha mu kurinda abantu bayobora kuba bahura n'ibibazo bitandukanye.

Mu gihe umuntu yarezwe, ikibazo cye cyagejejwe mu bacamanza, agomba kwiregura akoze iyo bwabaga, kugira ngo abashe gusobanura ukuntu ibintu byose byagenze, mu gihe avuze ukuri agomba kurenganurwa.

Umuntu wishimye arangwa no guseka, akanyamuneza kagaragara ku maso. Umuntu urakaye, iyo umubonye uhita ubimenya. Mu bantu benshi ushobora gutoranyamo umuntu urakaye n'umuntu wishimye. Kurakara si byiza kuko bituma umuntu asaza vuba.

umuyobozi agomba kuba ari umuntu uzi gufata imyanzuro uzi kuganira kandi azi kuyobora neza agomba kuba azi uburenganzira bw'umuntu kandi azi agaciro agomba guha buri wese ni byiza kuba yarize kandi azi amategeko yose agenga igihugu.

Mu gihe cyo gutora abayobozi abayobozi bagomba kwiyamamaza. Mbere yuko abayobozi batorwa, bagomba kugaragaza ibyo bazakora kandi ibi bifasha abaturage guhitamo neza. Umuturage wahisemo neza ahitamo umuyobozi uzamugirira akamaro mu gihe cye kiri imbere.

Umuyobozi uyobora igihugu cy'u Rwanda yitwa Paul Kagame uyu muyobozi ashyirwaho binyuze mu matora, uyu muyobozi yiyamamaza mu turere twose tw'igihugu abaturage bakamuhitamo nk'umuyobozi wabo kuberabishoboye.

Abayobozi ni abantu bakwiye kubahwa cyane, aba bafata ibyemezo bishyize mu gaciro, kandi bagatuma igihugu gitera imbere. Abayobozi bakunda gukoresha ububasha bwabo bafatira ibihano abantu bakoze ibyaha kandi bagakora ibikorwa biteza imbere abaturage.

Kwiga ni umurimo utoroshye, ni umurimo usaba gushyiraho imbaraga, gushyiramo ingufu, ugomba gusoma byaba na ngombwa ukanarirara, umunyeshuri udasomye neza aratsindwa kandi gutsindwa ni igisebo.

Igikoresho cy'indangururamajwi ni ingenzi cyane, gikoreshwa n'abantu batandukanye, abagabo, abakobwa, abana, abasore, inkumi ndetse n'abandi bashobora kugikoresha mu matora ndetse no kwamamaza ibintu bitandukanye.

Mu gihe umuntu agiye ahantu, akishimira ibintu yahabonye, ashobora gufata ifoto gusa gufata ifoto bigomba uburenganzira bw'umuntu ufotorwa kubera ko mu Rwanda hari amategeko ahana umuntu ufashe ifoto adafite uburenganzira.

Imyenda abantu bambara iba itandukanye bitewe n'umuco. Hari abantu bakunda kwambara amakote y'umukara, y'umweru, ay'icyatsi n'ay'umuhondo. Abantu bakunda kwambara inkweto zitandukanye kandi bashobora kwambara amajipo, amapantaro ndetse n'ingofero.

Ibinyabiziga bigomba gutwarwa mu muhanda hashyizwemo ubwitonzi kubera ko bidakozwe muri ubu buryo bishobora guteza impanuka, ni muri urwo rwego hari amategeko agenga ibinyabiziga kandi agomba kubahirizwa.

Ibidukikije ni ingenzi cyane kandi bitariho abantu ntibashobora kubaho. Ibidukikije bikubiyemo ibintu byose tubona ari ibyakozwe n'abantu ndetse n'ibyakozwe n'Imana. Bimwe muri byo harimo ibiti ndetse n'imodoka zakozwe n'abantu.

Imodoka ni igikoresho cyiza cyane gifasha abantu mu gutembera kandi kikabatwaza n'ibyabo, umuntu ufite imodoka aroroherwa kubera ko gutwara ibintu bye bitamugora imodoka. Ni ngombwa ko ica mu muhanda kugirango ibashe kugenda neza.

Umuntu ushaka gutwara imodoka, agomba kubanza kwiga amategeko yose y'umuhanda, akamenya ibyapa biba ku muhanda ndetse akamenya nuko yabikurikiza mu gihe ari mu kinyabiziga. Hanyuma agomba gushaka uruhushya rumwemerera gutwara iyo modoka.

Imodoka ni igikoresho gikoreshwa mu gutwara abantu ndetse n'ibintu, hari imodoka nini hakaba n'imodoka ntoya kandi zose zigira imimaro itandukanye, hari imodoka zikoreshwa mu bucuruzi ndetse hari n'imodoka zitwara ibintu byihariye.

Bimwe mu bikorwa remezo bishobora kubakwa kubera ko hatanzwe imisoro, harimo imihanda ndetse n'amashanyarazi. Harimo inzu z'ubuyobozi ni iz'ubucuruzi rusange zikoreshwa mu nyungu z'igihugu.

Ibikorwa remezo bigaragara mu Gihugu biba bigomba gufatwa neza, kubera ko mu kubakwa hatangwa amafaranga menshi kugira ngo bikorwe. Ibi bishatse kuvuga ko umuntu ubyangiza, agomba guhanwa ndetse bikomeye.

Imodoka ni igikoresho cy'ingenzi cyane. Iki gikoresho gishobora gukoreshwa mu gutwara ibintu bitandukanye, amazi ndetse n'ibindi bintu umuntu ashobora kwifashisha, urwego rushinzwe ubwikorezi ni rwo rushyiraho amategeko agenga ibinyabiziga.

Igihugu gishobora gushyiraho amategeko agenga ibinyabiziga, urugero: mu Rwanda hari amategeko agenga ibinyabiziga. Amategeko agenga ibinyabiziga aba atandukanye bitewe n'igihugu ayo mategeko akurikizwamo.

Imodoka ni igikoresho gikoreshwa n'abantu kugira ngo batemberere ahantu cyangwa se kibatwaze ibintu byabo. Imodoka ni igikoresho cyatangiriye mu bihugu by'i Burayi kandi na n'ubu kiracyafite akamaro kuko gituma n'Abanyafurika batera imbere.

Imodoka iba ikozwe mu bikoresho bitandukanye, iba ifite amapine ndetse n'ibindi bikoresho bituma ikomeza kugenda, umuntu wese witambitse mu muhanda ishobora kumugonga, kandi iyo imugonze ntashobora kumenya niba agonzwe n'imodoka mu gihe ahise apfa.

Mu bintu byose bigenda mu muhanda harimo n'ingorofani, ingorofani ishobora kuba ikozwe mu giti cyangwa se mu cyuma bitewe n'umuntu wayikoze, iyi na yo ni kimwe mu bikoresho bikoreshwa n'abantu, bashaka kugira ngo urugendo rworohe cyangwa se biyorohereze mu gutwara imizigo.

Kugenda mu muhanda nta nkomyi ni byiza, gusa mu gihe umuntu ari kugenda mu muhanda agomba kwitonda, kuko akomeje kugenda atareba, ashobora guteza impanuka. Ashobora guhura n'impanuka ishobora kumuteza ibyago, hakaba havamo n'urupfu.

Imihanda ni ingirakamaro mu iterambere ry'igihugu. Igihugu kidafite imihanda biragorana gukora urugendo kubera yuko imihanda yifashishwa cyane. Ishobora gukoreshwamo ibinyabiziga bitandukanye nk'imodoka ndetse na moto.

Ibiti ni ingirakamaro cyane. Ibiti bifasha mu gukurura umwuka mwiza abantu bahumeka. Ibiti bishobora gukoreshwa mu kubaka, bishobora gukoreshwa mu kubaka ibiraro, amazu, kandi ibiti bikoreshwa mu kurinda amasuri.

Umuhanda ni ingirakamaro. Urifashishwa mu gutwara abantu n'ibintu. Umuhanda ushobora gukoreshwa n'abanyamaguru, abatwaye imodoka ndetse n'abatwaye moto, umuhanda ushobora kwifashishwa mu gukora ibikorwa bitandukanye biteza imbere igihugu.

Mu gihe umuntu yatembereye ahantu hatuwe cyane cyangwa se ahantu h'umujyi, agomba kwitonda cyane kuko mu mujyi haba ibinyabiziga byinshi n'abantu benshi twavuga ko ari uruvunganzoka. Ibi utabyitondeye bishobora kugutangaza hanyuma ugasigara ukareka inzira wajyagamo.

Umuhanda iyo wanduye bishobora kugaragara nabi kuko aba ari umwanda. Ni yo mpamvu igihugu kigomba gushyiraho abantu bo gukora isuku mu muhanda, aba bakajya bakora isuku buri munsi kandi bagahembwa buri kwezi.

Amashyamba adufitiye akamaro cyane. Amashyamba atuma abantu babaho neza kubera yuko ushobora kuyagurisha. Iyo agurishijwe avamo amakara, aya makara ashobora gukoreshwa mu gucana. Ibi bituma iterambere ry'igihugu ryiyongera.

Ibinyabiziga bikunze gukoreshwa cyane cyane mu mijyi. Ibinyabiziga bikunze gukoreshwa mu Rwanda harimo igare, moto ndetse n'imodoka. Moto nazo ziratandukanye, hari moto zishobora kugira imipine ibiri cyangwa ibiziga bibiri, hari n'izishobora kugira ibiziga birenze bibiri.

Imodoka ni igikoresho cyifashishwa mu gutwara abantu ndetse n'ibintu byabo, umuntu wese ushaka gutega imodoka agomba kuba afite amafaranga mu gihe modoka atari iye, umuntu ufite imodoka ye agomba kuba afite uruhushya rumwemerera kuyitwara kugirango ajye mu muhanda.

Igihugu gishyira ibikorwa remezo mu gihugu, mu rwego rwo kugira ngo gifashe abaturage bacyo kubaho neza. Abaturage bagomba kubungabunga ibyo bikorwa remezo kuko bidahari bashobora kubura ubuzima, bagapfa cyangwa se bakabaho nabi.

Igare ni igikoresho gikoreshwa mu gutwara abantu ndetse n'ibintu. Igare na moto ni ibintu bibiri bijya kumera kimwe ariko kimwe kigira moteri, ikindi ntikigira moteri. Ibi bituma mu gihe cyo kuzamuka moto isiga igare.

Birakwiriye ko abantu bose bamenya kubahana kugira ngo umuntu usanze undi mu muhanda amusuhuze bityo amahoro arambe. Gusa hari abakire bagashize bariya badaha mu mamodoka baba bifuza kuba ba nyamwigendaho.

Igare ni igikoresho gikozwe mu byuma gifasha abantu gutwara ibintu byabo ndetse na bo ubwabo kikaba cyabatwara, gusa ntirigoye, kuko rigura amafaranga atari menshi, ugereranyije n'ibindi binyabiziga.

Imodoka ni igikoresho gifasha abantu gutembera ndetse kikanabafasha mu rugendo ahantu bagiye hose. Imodoka zigira amapine atandukanye. Imodoka ni ingenzi cyane kuko ifasha umuntu mu gihe ananiwe.

Mu gihe umuntu afite imodoka ikamupfiraho ntabwo akwiriye kuyijugunya ahubwo akwiriye kureba ababishinzwe cyangwa se abantu babyigiye bakamufasha kuyikora. Gukora iyi modoka ashobora kubishyura amafaranga makeya ugereranyije no kuyijugunya.

Umuntu utwara moto agomba kuba afite uruhushya rumwemerera gutwara moto, uyu bitewe n'umwuga akora akenshi bakunze kumwita umumotari, uyu mugabo cyangwa se umugore ukora aka kazi agomba kuba ashoboye gutwara neza kugira ngo adateza impanuka mu muhanda.

Leta ikora ibishoboka byose kugira ngo umuturage abeho neza. Bimwe mu byo umukorera ni ukumufasha kubona imodoka zimutembereza ahantu agiye yaba ari mu kazi cyangwa se agiye mu bikorwa bifite izindi nyungu ku ruhande.

Imodoka ni kimwe mu bigaragaza ko umuntu yateye imbere, niba umuntu akize, agomba kugura imodoka. Imodoka ifasha umuntu mu kwirinda kunanirwa. Niba ushaka kuba umuntu wemerwa n'abandi, ugomba kugura imodoka kugira ngo bakwemere.

Ibiti ni ingirakamaro cyane. Bifasha abantu mu buryo butandukanye. Bituma umwuka uboneka ahantu biri kandi ibiti bifasha abantu mu gukora imbaho z'ubwoko butandukanye. Izi mbaho zishobora kwifashishwa bakora ibikoresho bikozwe mu biti.

Imodoka zigomba kugenda zicanye amatara mu gihe ari nijoro, ibi bituma zigenda zibona kandi hakirindwa impanuka, imodoka ni kimwe mu bikoresho b'ingirakamaro mu gihugu, ibi ni ukuri kuko imodoka zifasha mu gutwara abantu ndetse n'ibintu.

Imodoka zigenda mu muhanda zigomba kuba zifite ubuziranenge, ku buryo zidashobora guteza impanuka. Imodoka idafite ubuziranenge ishobora gutuma habaho impanuka, kandi bishobora kwangiza ubuzima bw'abantu benshi.

Bimwe mu bikorwa bya leta harimo inzu z'ubucuruzi, izi nzu z'ubucuruzi zifasha abaturage guhaha mu buryo bworoshye kandi abaturage bahabona ibintu byizewe, bifite ubuziranenge kandi akenshi baba babikenera.

Abantu bakunda gutembera bakoresheje uburyo butandukanye, hari bamwe batembera n'ibinyabiziga, hari n'abantu batembera n'amaguru. Umuntu utembera kuri moto agomba kuba ari umuntu udafite ubwoba kandi usobanutse, agomba kuba afite amafaranga yo kwishyura iyo mota imutwaye.

Imodoka zirimo amoko atandukanye kandi zikora akazi mu buryo butandukanye. Hari imodoka zagenewe gutwara abantu ibintu, hari imodoka zagenewe kugendamo bakire ndetse n'imodoka zagenewe kugendamo abantu bafite amafaranga makeya. Imodoka zikoreshwa mu bwikorezi zigomba kuba zikomeye kandi zishoboye kugenda ahantu hahanamye. Imodoka ni ingenzi cyane.

Umuhanda mwiza urangwa no kuba ufite ubwisanzure ku buryo imodoka icamo nta mubyigano, ibi bishatse kuvuga ko kugira ngo abapima umuhanda bamenye ko umuhanda ari mwiza, bareba metero wujuje kugira ngo imodoka icemo.

Abantu bakora umwuga wo gutwara ibintu ndetse n'abantu bagomba kwirinda akajagari, urugero abantu batwara amagare bagomba kwibumbira hamwe mu matsinda, kugira ngo bibafashe kumenyana kandi bamenye ibiciro bazajya bakoresha mu gihe bakira abakiriya babo.

Imijyi ni ahantu harangwa no kuba hari abantu benshi, ibicuruzwa, ibinyabiziga, ndetse n'inyubako zigezweho. Igihugu gifite Umujyi mwiza bigaragara ko gifite n'isuku, kandi kiba cyarateye imbere.

Gutwara abantu n'ibintu bikorwa mu buryo butandukanye. Ushobora gutwara abantu ukoresheje moto cyangwa se imodoka. Icy'ingenzi ni uko bigera aho bigiye, gusa hari amategeko abigenga, gutwara bijyana n'ubushobozi ndetse n'uruhushya.

Abana bishima mu buryo butandukanye. Hari abishimira gutwara igare ndetse n'ibindi bikoresho. Abana iyo bishimye baraseka, ibi bituma ababyeyi babo na bo bishima kandi ibi bigaragaza ko bafitanye urukundo.

Ikibuga ni ahantu abantu bahurira bakidagadura bagakina imikino itandukanye, hari ahantu abantu bahurira bagamije gukina imikino y'amaboko bagatsindana kandi ibi birabashimisha, gukina bifasha abantu gusabana kandi bituma bunguka ubwenge.

Abayobozi b'igihugu bagomba kuba ari abantu batekereza neza, bazi gushyira mu gaciro kandi bazi gukora akazi keza mu gihe cya nyacyo. Umuntu wese wifuza kuba umuyobozi agomba kuba azikuyobora, muri urwo rwego abayobozi beza bashyira ibyapa ku muhanda biyobora abantu mu gihe bagiye gutembera impanuka zikagabanuka.

Ibyapa byo ku muhanda ni ingenzi cyane, ibi byapa bigira akamaro cyane kuko birinda impanuka mu muhanda, bishobora kuyobora umugenzi akagenda nta kibazo afite kandi bishobora kurinda umutwazi w'imodoka gukora impanuka.

Ibyapa byo ku muhanda bifite akamaro cyane bishobora gutuma abantu batembera bisanzuye. Ibi byapa birafasha kubera y'uko umuntu uyobowe n'icyapa imodoka idashobora kumugonga. Ibyapa biyobora imodoka kandi nanone bishobora kuyobora umuntu ugenda n'amaguru.

Ubuyobozi bwiza buharanira isuku mu gihugu, ubuyobozi bwiza buharanira ko mu gihugu hashyirwamo ubusitani bugaragaza uko igihugu kigira isuku. Bimwe mu bikorwa remezo bigaragara mu gihugu harimo imihanda ndetse n'amazu meza ibi bituma igihugu gikomeza kurangwa n'isuku kandi kikavugwa neza.

Ibiti bituma umwuka mwiza duhumeka uboneka, ni yo mpamvu bikwiye kubungwabungwa. Hakwiye gushyirwaho ingamba zituma abantu babyangiza bahanwa mu buryo bukwiriye, kandi abantu bose bakwiye kubigira ibyabo.

Hamwe mu hantu ushobora gutemberera ushaka kureba ibyiza nyaburanga bitatse igihugu cy'u Rwanda, ushobora gutemberera mu karere ka Gicumbi, aka karere karimo imisozi n'ibibaya bibereye ijisho mu kubireba.

Bimwe mu bikorwa leta ishyiraho, ishyiraho uburyo bwo gufasha abatwazi b'imodoka ndetse n'ibindi binyabiziga, kuyobora ibinyabiziga byabo ahantu hadateje impanuka, niyo mpamvu mu muhanda igenda ishyiraho ibyapa bitandukanye.

Mu gihe ugiye gutemberera ahantu, ugiye kugenda n'imodoka cyangwa se ugiye kugenda mu mihanda ihurirwamo n'ibinyabiziga byinshi, ugomba kwitonda. Ibi biragusaba kugira ngo umenye icyo buri cyapa cyo ku muhanda gisobanura.

Ibyapa byo ku muhanda bifasha abantu ndetse n'ibinyabiziga, ibi ni ingenzi cyane kuko bituma impanuka zo mu muhanda zigenda zigabanuka, bifite akamaro cyane kubera ko bituma ubibona bimuyobora, bikamwereka icyerekezo agomba kujyamo.

Ibyapa byo ku muhanda bituma abantu bagenda batikanga ko bashobora guhura n'impanuka, ibi byapa bishobora gutegeka ikinyabiziga guhagarara cyangwa se kugenda gake, bishobora gutuma umuntu ugeza ahantu ibinyabiziga biri ahagarara cyangwa se agakomeza kugenda.

Umuntu afite uburenganzira bwo gutemberera ahantu hose ashaka. Umuntu ushaka gutemberera mu kindi gihugu agomba kubanza gushaka ibyangombwa ibyo byangombwa abitanga mu gihe ageze ku mupaka bityo agahabwa uruhushya rumwemerera kwinjira mu kindi gihugu.

Ibyapa ni ibimenyetso bishyirwa ku muhanda. Ibi bikorwa mu rwego rwo kurangira umuntu, kumumenyesha ko imbere hari ikintu giteje akaga. Hari ibyapa biyobora imodoka ndetse n'ibyapa biyobora abantu bagenda n'amaguru. Mu mihanda usanga hari ibyapa by'ubwoko butandukanye.

Inzu nziza zigomba kuba zifite abantu b'abahanga bazubatse, biragoye kubona inzu itarubatswe n'umuntu ariko na none biragoye kumva ko inzu nziza yubatswe n'umuntu, inzu ikunze gukoreshwa cyane cyane abantu bayibamo.

Inzu iyo ziri ahantu hateje akaga, hahanamye kandi hari isuku nkeya byitwa akajagari. Ibi bikunze kugaragara cyane cyane mu gice cy'icyaro. Ni muri urwo rwego ahantu hagaragara ko hahanamye cyangwa se hatari isuku, hakwiye gukorwa isuku kugira ngo inzu zibashe kubakwa.

Inzu nziza irahenda kandi kuyubaka biravuna. Umuntu ufite amafaranga menshi, ashobora kuyigura, aho kugira ngo yubake iye. Ibi ni ibintu bisaba kubanza kubitekerezaho kuko udafite amafaranga, ushobora kubaka inzu, ikakunanira.

Gahunda ya leta yokura abantu mu bukene, ni nziza cyane. Gusa leta ishyiraho n'izindi ngamba kugira ngo irinde ubuzima bw'umuturage. Zimwe muri izo ngamba, ni ukumufasha kubona imiti mu gihe arwaye, akabona imiti ku giciro gitoya.

Inzu ziba zubakishijwe ibikoresho bitandukanye, ibiti, ibyuma, amabati, ndetse n'amatafari, inzu nziza igomba kuba ari ahantu heza kandi ifite isuku, ibi bituma mu gihe ugiye kuyigurisha ubona umuntu uyigura.

Inzu zo mu cyaro zikunze kuba zikikijwe n'ibiti, ibi bituma akayaga kinjira mu rugo kandi bifasha abagize urugo kubaho neza, umuntu wese ushaka kubaho neza atuye mu cyaro, agomba guhinga ibiti iruhande rw'inzuye kandi ibi ni ingirakamaro cyane.

Amazu yubakwa mu buryo butandukanye kandi akubakwa ahantu hatandukanye. Ibi ni ingirakamaro cyane kuko ahantu hadatuwe hashobora gukorerwa ibikorwa by'urugomo. Ni ngombwa kubaka ahantu hose kuko bituma urugomo rugabanuka kandi iterambere rikiyongera.

Igihugu cy'u Rwanda, ni igihugu cyiza cyane gifite isuku, igihugu cy'u Rwanda uzakibona cyanditse ahantu henshi, ibi nushaka kubimenya, uzasoma ku mbuga nkoranyambaga nyinshi, uzasanga ari igihugu gifite umwihariko.

Umujyi ugomba kuba uri ahantu harambitse kandi hateye neza, kubera ko haba harimo urujya n'uruza rw'abantu, aba bashobora kuba bavuye mu bihugu bitandukanye kandi bakora akazi gatandukanye, icy'ingenzi kurushaho, ni uko kugera mujyi aba atari ibintu bigoranye.

Imodoka zishyirwa ahantu hari umutekano hizewe, ibi ni ku mpamvu z'uko imodoka iramutse itarinzwe neza ishobora kwibwa, kandi amafaranga agura imodoka ni menshi ku buryo umuntu ayibwe aba ahombye ibintu byinshi.

Ibimera ni ingirakamaro cyane. Ibimera bituma abantu babona umwuka mwiza bahumeka, kubera ko byo hamwe n'ibiti bigaragaza ahantu hatari ubutayu. Ibimera bituma imvura igwa mu gihe cyayo, hanyuma abantu bagahinga.

Ubusitani ni ahantu umuntu ashobora kuruhukira. Akumva aguwe neza kandi atuje. Umuntu ufite ubusitani bwiza bufite isuku, atuma abantu bamukunda. Ibi bishatse kuvuga ko ari ngombwa kugira ubusitani.

Ubusitani bufite isuku buhesha ishema nyirabwo, ubusitani bufite umwanda butuma nyirabwo yumva afite isoni, niba ushaka kugaragara neza, niba ushaka kuvugwa neza, ugomba kugira ubusitani bufite isuku.

Abantu bafite amafaranga bakunda kubaka ahantu hagaragara neza hari ibiti kubera ko bazi akamaro k'ibiti, bazi ko ibiti bibafasha mu guhumeka neza kandi bigatuma umwuka ubageraho bihagije.

Inzu nziza umuntu yubaka afite intego yo kuyikodesha agomba gushiramo ibikenewe byose, ibyo birimo amazi ndetse n'umuriro kandi igomba kuba ari ahantu heza ku buryo umuntu uyikodesheje yishimira kuyibamo.

Inyubako zigezweho, nziza kandi zifite isuku, zigomba kuba zifite igipangu. Igipangu gifasha mu kurinda umutekano. Kugira ngo umujura yibe ahantu hari igipangu, abanza kugisimbuka. Uku kugisimbuka bishobora gutuma avunika. Niyo mpamvu abajura batinya kwiba ahantu hari igipangu.

Amashyamba afite akamaro cyane. Atuma abantu babona inkwi zo gucana, kandi amashyamba atuma abantu babona ibiti byo kubakisha. Ibi ni ngombwa kubibungabunga, kubera ko ibiti bidahari, umwuka mwiza abantu bahumeka ushobora kutaboneka.

Inzu igomba kubakwa ahantu habugenewe, hatari amasuri kandi hadateje akaga. Inyubako zubatse zicucitse kandi zitari kuri gahunda neza, ziteza akajagari mu Gihugu ndetse n'umwanda.

Inzu nziza kuyitunga birahenda, gusa abantu benshi hari ibintu bitandukanye bashobora gukora kugira ngo batunge inzu zabo bwite, mu gihe byanze bashobora kuzikodesha bakajya bishura amafaranga make make buri kwezi kugira ngo babe muri izo nzu.

Imihanda ibiti amashanyarazi amazi ndetse n'ibindi tubona nibyo twita ibidukikije iri somo ryigishwa n'abarimu biga ubutabire n'ibinyabuzima hanyuma bakagusobanura ukuntu amazi ndetse n'imvura biboneka.

Imihanda yo mu cyaro iragorana, ikunze kuba yuzuye ibyondo, iri ahantu h'ishyamba kandi hateye ubwoba, umuntu utagira ubwoba niwe unyura muri iyi mihanda, kandi akenshi ikunze kwicirwamo abantu, leta igomba gushyiraho imbaraga, igashiraho uburinzi, kugira ngo igabanye ubwicanyi bukorerwa muri ayo mashyamba, ndetse no muri iyo mihanda.

Umuvuduko w'imodoka aba ari munini cyane ugereranyije n'umuvuduko w'umuntu kubera ko imodoka ishobora kwirukanka ibirometero byinshi, gusa ibi ntibishoboka ku muntu kuko ananirwa vuba kandi akananirwa atagiye urugendo rurerure.

Ibihugu byateye imbere uhasanga imihanda minini kandi iteye neza; ibi bikunze kugaragaza ko icyo gihugu gifite isuku kandi kiyobowe n'umuyobozi mwiza; ibi bishatse kuvuga ko igihugu gishaka gutera imbere kigomba gukora isuku mu mihanda ndetse kigateza imbere ibikorwa remezo.

Imihanda ni kimwe mu bintu bigaragaza ko mu gihugu hari iterambere, ibindi bikorwa bigaragaza ko harimo iterambere ni amashuri, amashanyarazi, amazi ndetse n'ibitaro, ibi iyo bigaragara mu gihugu haba hari iterambere.

Umuhanda ni ingenzi cyane urifashishwa mu gutwara abantu ndetse n'ibintu kubera ko umuhanda uramutse udahari abantu ntibabona ukuntu bajya mu mijyi ndetse n'ahantu hakure. umuhanda unyurwamo n'abantu ndetse n'ibinyabiziga.

Amatara yo ku muhanda ni ingenzi cyane. Afasha mu gutuma impanuka zigabanuka kubera yuko ayobora amaguru y'abantu akagenda mu gihe cyagenwe. Ayobora kandi abantu bagenda n'imodoka, akababuza kugonga. Ibi bituma umutekano wo mu muhanda urushaho kwiyongera.

Imihanda ni ingirakamaro mu iterambere ry'igihugu, kubera ko ifasha mu gutuma abantu batembera, bagasurana kandi bakungurana ibitekerezo mu gihe basuranye, imihanda igendwamo n'imodoka abanyamaguru ndetse n'abandi bagenda ku mamoto.

Umuhanda ugaragaza ko mu gihugu harimo iterambere kandi igihugu gifite isuku, umuhanda ugaragara ahantu harambuye kubera ko mu misozi bishobora kugorana kuwunyuzamo.

Ibihugu byakataje imbere mu ikoranabuhanga ndetse no mu iterambere, bikunze kurangwa no kuba mu mijyi yabyo harimo amashanyarazi ndetse n'ibinyabiziga. Ibi biragaragaza ko n'ibihugu byo muri Afurika mu minsi iri imbere bizatera imbere.

Imihanda ni ibikorwaremezo bigaragaza ko abantu bateye imbere. Ibi bituma igihugu kivugwa neza mu mahanga kandi abantu bakabona ko icyo gihugu ari ahantu heza umuntu yatura, igihugu kitagira imihanda kiba cyarasigaye inyuma mu iterambere.

Iterambere ry'igihugu nta handi ushobora kuribonera, uretse kureba ibikorwa remezo by'igihugu. Bimwe muri ibyo bikorwa remezo, ni amazu agaragara mu mujyi ndetse n'uko umujyi wubatse. Iyo umujyi urimo amatara ku mihanda, biba bigaragaza ko iterambere mu gihugu ryigaragaza.

Imihanda ni ingenzi cyane mu iterambere ry'igihugu. Igihugu gifite imihanda myiza, gitera imbere mu buryo bwihuse kuko imihanda ifasha abacuruzi guhahirana ndetse no kugeza ku bantu ibyo bifuza mu gihe gito.

Mu rwego rwo kwimakaza iterambere mu gihugu, leta ishyiraho uburyo bwo gukora imihanda, ndetse igashyiraho n'abakozi bazajya bakora amasuku muri iyo mihanda, ibi bifasha igihugu, guhorana isuku, kandi kigahora kigaragara neza ku bakireba.

Gutwara abantu n'ibintu ni ingenzi cyane. Umuntu udashoboye kwitwara kuri moto, agomba gushaka umuntu umutwara kugira ngo adakora impanuka. Gutwara moto bisaba kuba umuntu afite uruhushya rumwemerera kujya mu muhanda, kandi afite n'ubushobozi bwo kuba yatwara iyo moto.

Ibyiza bitatse igihugu cy'u Rwanda ni ibikorwa remezo, mu bikorwa remezo bigaragara mu gihugu cy'u Rwanda, harimo imihanda, amashanyarazi ndetse n'amashuri. Mu mihanda yo mu Rwanda usanga ifite isuku cyane, irimo ibyapa biyobora abagenzi ndetse n'imodoka.

Umuhanda iyo ari nijoro ugomba gucanwamo amatara, kugira ngo abantu babashe kubona mu gihe bagenda. Ibi bikorwa ahantu hateye imbere kandi ni ingenzi kuko birinda abajura ndetse n'abantu bashobora kugirira nabi abandi.

Imihanda ni kimwe mu bintu bigaragaza ko igihugu cyateye imbere. Mu bihugu byinshi byateye imbere, bikunze gushyira amatara ayobora abagenzi ndetse n'imodoka mu mihanda, kugira ngo hirindwe impanuka. Ibi bituma igihugu gikomeza gukataza mu iterambere.